Aho bahuriza ibigori basaruye bakabirunda hamwe, umuntu arimo arabyanika kugira ngo bazabihungure, iyo babiteranyirije hamwe bakabihura, barabishesha bikavamo ifu yigikoma, ubugari bwo kurya ndetse n'izindi ntungamubiri dusanga mu bigori.

Ahantu ho kororera inkoko nyinshi zitandukanye z'ubwoko bwose, kuko inkoko zigira akamaro zitanga amagi zitanga inyama, kandi inyama n'amagi bigira umumaro munini ku mubiri w'umuntu.